Aha ni mu cyumba cy'inama, harimo abantu bari mu nama biganjemo urubyiruko bambaye impuzankano, bari kuganira ku bintu bitandukanye, kandi si ibyo gusa, hari n'umukozi w'itangazamakuru urimo arafata amashusho n'amajwi y'ibiri kubera hano.

Aha hari abantu benshi bambaye impuzankano zitandukanye, cyane cyane biganjemo urubyiruko, bisa nk'aho bari mu nama zitandukanye, ziga ku bibazo urubyiruko rufite kandi hirya hari abashinzwe umutekano bambaye impuzankano z'icyatsi kugira ngo bafashe abari hano bose kubungabunga umutekano wabo.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama aho harimo abantu bambaye impuzankano, zisa ndetse bakaba bambaye imyenda y'imyeru iriho ibendera ry'u rwanda imbere ya bo bafite uducupa tw'amazi tw'uruganda rw'inyange rutunganya ibyo kunywa mu rwanda, hakaba hari kandi umuntu wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikote ry'umukara uri kugerageza kubafasha mu bintu bitandukanye bari kwiga.

Aha hari abantu bicaye mu nama, mu cyumba cy'inama bari kuvuga ku bintu bitandukanye, hari umugabo w'uruhu rwera ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'ishati y'umweru, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikote rya kaki, isa n'umugore wambaye amataratara ndetse hirya ye hakaba hari n'undi nawe wambaye amataratara, imbere yabo hari uwambaye umutuku bose imbere yabo bafite uducupa tw'amaz.i

Iki ni icyumba kiberamo inama kirimo abantu batandukanye ndetse bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, harimo abayobozi batandukanye benshi ndetse harimo n'abasirikare bazwi cyane mu kurinda umutekano w'igihugu.

Aha ni mu nyubako nziza cyane irimo icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'ab'igitsina gabo bari kwiga ku bintu bitandukanye. Imbere yabo buri wese afite icupa ry'amazi ndetse n'ikirahure si ibyo gusa hari n'impapuro zigiye zitandukanye zanditseho ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo bari kuganiraho, imbere yabo kandi hari abayoboye inama.

Iyi foto ni iy'umuyobozi umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu, imbere ye hari indangururamajwi ari kubwira abantu ibintu bitandukanye, kandi imbere ye hari icupa ryiza cyane ry'amazi yo kunywa, atunganywa n'uruganda rumenyerewe cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa cyane cyane amazi ndetse n'amata n'ibiyakomokaho. Yambaye amataratara meza cyane y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'ikote ry'umukara.

Aha hari abagabo babiri bicaye bari kuganira, umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru n'ikote ry'ubururu bwijimye. Imbere yabo hari amazi akorwa n'uruganda rumenyerewe cyane mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange, hari ndetse inyuma yabo hari ikiranga ikigo k'igihugu cy'imisora n'amahoro, gisa ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Aha hari umugore ufite indangururamajwi kugira ngo abari muri iyi nama bose bamwumve. Kandi ni ahantu batandukanye harimo abagore, harimo n'abagabo bateze amatwi ibyo uyu mubyeyi wambaye amataratara y'ibirahure ndetse afiteho n'umukara ari ku babwira.

Aha hari umugore uri imbere y'abantu umeze nk'aho ayoboye inama y'abantu. Yambaye umupira w'umukara ndetse n'ishati y'umukara, afite indangurumajwi, ari kubwira abantu yifashishije indangururamajwi kugirango babashe bose kumwumva.

Ahangaha hari icyumba k'inama kiri kuberemo inama, hari ameza meza cyane yicayeho abantu batandukanye abagore n'abagabo bose bafite za mudasobwa imbere yabo, ndetse n'indangururamajwi kugira ngo babashe kumvikana. Hari kandi ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Aha ngaha ni ahabereye inama irimo abantu benshi batandukanye, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere hari abayoboye inama harimo umwe ufite mudasobwa, imbere ku meza bariho hari igitambaro cy'umuhondo ndetse n'igitambaro cy'icyatsi, imbere yabo kandi hari amakayi, hakaba hari n'uducupa turimo amazi ndetse n'imitobe ikorwa n'uruganda rw'Inyange.

Aha hari umugabo ukuze wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi ayoboye inama, kandi imbere ye hari uducupa tubiri tw'inyange kamwe karimo umutobe, ndetse n'akandi karimo amazi hirya ye harindi mugabo nawe umuteze amatwi, bisa nk'aho uyu mugabo ayoboye inama iri kwiga ku bintu runaka.

Iyi shusho irimo abantu batanu bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hari n'undi uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikijuju na karovati y'umukara uyoboye inama uri gusobanurira bagenzi be ibintu bitandukanye, imbere yabo kandi bafite n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange ruzwi cyane mu Rwanda mugukora ibyo kunywa.

Aha hari abantu benshi kandi batandukanye, abagore ndetse n'abagabo bambaye impuzankano zitandukanye, harimo abagore imbere, hari umugore w'inzobe wishinze ibintu ibirungo by'umutuku ku munwa ndetse wambaye ikote rya orange. Imbere ku meza hari uducupa tw'inyange, tw'amazi yo kunywa, kandi bicaye mu nzu itatse amabara meza.

Iyi shusho iratwereka abagabo batatu ndetse n'akaboko k'undi bari kumwe utagaragara neza, bari mu nama bateze amatwi umwe muri bo yambaye amataratara imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi dukorwa n'uruganda ruzwi cyane cyangwa ruzwi cyane mu Rwanda mu gukora ibyo kunywa bitandukanye birimo; amata ndetse n'imitobe y'imbuto zitandukanye ndetse naya mazi y'inyange.

Aba ni abantu bari mu cyumba cy'inama bari kuganira ku bintu bitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, uyoboye inama n'umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku hari ndetse abafite n'amakayi na za telefone ziri kwifashishwa mu byo bari kuganiraho muri iyi nama.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye abagore ndetse n'abagabo harimo kandi bicaye kandi ku ntebe nziza cyane zifite ibara ry'umuhondo abari imbere bicaye ku ntebe z'umukara bazengurutse ameza manini hakaba kandi hari nabandi bari hagati imbere neza nabo bicaye ku ntebe z'umukara.

Aha hari ababyeyi batatu bameze nk'abari mu nama, hirya y'aho hari abantu bafite za mudasobwa imbere yabo, umubyeyi uhagaze yambaye agatambaro k'umukara mu mutwe. Afite indangururamajwi kugira ngo ibyo avuga bigere ku bamwumva.

Aha ni mu cyumba kiberamo inama, hari umubyeyi uyoboye inama ufite indangururamajwi wambaye ishati y'umuhondo ndetse wambaye amataratara y'umukara, ndetse witeze n'igitambaro mu mutwe, imbere y'abantu bamukurikiye hari amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rumenyerewe cyane mu Rwanda rw'Inyange.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Aha hari abantu benshi cyane bicaye ku meza atandukanye, bari mu cyumba cy'inama hagiye harimo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko, imbere yaho hari umuntu wambaye imyenda y'imikara ndetse n'ishati y'umweru n'amataratara, ufite indangururamajwi kugira ngo abari muri iki cyumba cyose babashe kumva ibyo ari kuvuga.

Aha ni mu cyumba cy'inama aho hari ameza ashasheho igitambo cy'umukara hicayeho abantu bagiye batandukanye, imbere yabo kandi hari uducupa dutandukanye tuba turimo amazi yo kunywa atunganywa n'uruganda rwa Nile ruzwimu kugira amazi meza cyane.

Iyi shusho iratwereka umukobwa wambaye ikanzu irimo ibara ry' umweru ndetse n' umukara ufite imisatsi miremire uhagaze imbere cyangwa se imbere y' abantu ku gatuti hariho indangururamajwi ari kuvuga ibintu bitandukanye.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'umweru gitwaye imizigo ukikijwe n'ibiti birebire ubona bitanga amahumbezi n'umuyaga ku bawukoresha bose.

Aha hari abantu bari mu nama bicaye ku meza maremare yariho abantu benshi, imbere yabo bafite za mudasobwa ikindi hari n'indangururamajwi imbere yabo kugira ngo umwe avuge abandi bamwumva batamwegereye, ikindi bafite n'amazi uducupa turimo amazi imbere yabo dukorwa cyangwa dutunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa by'inyange.

Aha hari igipapuro kiriho kigaragaza ko ari umunsi w'ubuzima bwo mu mutwe handitseho ko tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe hari umugore ufite indangururamajwi wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku ndetse n'agapira k'umukara.

Iyi ni inyubako iba irimo ibyumba byinshi bitandukanye, ndetse haba harimo ibyumba by'inama, iki ni icyumba kirimo abantu benshi bagera mu ijana cyangwa barenga bari mu nama bateze amatwi ndetse n'amaso umuntu uri imbere yabo uri kubaganiza cyangwa bari kuganira k'ubintu bitandukanye.

Aha ngaha hari abantu bari mu nama bazengurutse ameza atatseho igitambaro cy'umweru. Aba bantu ni abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bose bafite za mudasobwa hakaba hari n'abandi imbere yabo bafite uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda rumenyerewe mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'Inyange.

Aha ngaha hari abantu batanu, bicaye kuntebe nziza cyane bari munama hakaba hari ndetse n' umwe ushinzwe umutekano w' umugore wambaye amataratara, inyuma yabo hari igipapuro cyanditseho uruhare rw' wumuturage mwigena migambi ,hakaba handitseho ndetse ingengo y' imari n' imihigo umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Iki ni icyumba kiberamo inama ziga ku bintu bitandukanye, ibibazo bitandukanye u Rwanda rufite cyangwa se abayobozi bajyamo bakaganira ku buryo ibibazo igihugu gifite babikemura cyangwa n'izindi nama ziga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi shusho iragaragaza abantu bambaye impuzankano z'umweru bicaye kandi ku ntebe zisa z'umutuku nziza cyane kandi bicaye kumeza atatseho igitambaro cy'umukara, imbere yabo hari amashusho agaragara agaragaza ibyo bari kuvugaho kugirango biborohere kubiganiraho.

Aha ni abantu benshi batandukanye abagore ndetse n'abagabo bari mu nama iri kwiga ku bintu bitandukanye, hari umugore wambaye agatambaro gasa umutuku werurutse ndetse n'ikanzu y'umutuku w'amaraso, ndetse hari n'undi wambaye amataratara ndetse witeze n'agatambaro k'umukara mu mutwe abandi nabo bambaye impuzankano.

Aha hari abantu bicaye bazengurutse ameza bari mu nama itandukanye. Bose bafite ibipapuro imbere yabo, ndetse imbere yabo hari indangururamajwi zitandukanye, kandi buri wese imbere ye hari umutobe ndetse n'akacupa k'amazi, bitunganywa n'uruganda ruzwi cyane rw'Inyange.

Ahangaha hari umugore wambaye ishati y'umweru irimo utudomo tw'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki kugirango ababwire babashe kumwumva, afite umusatsi mukeya ku mutwe kandi yambaye impeta ebyiri ku ntoki, inyuma ye hari igipapuro kiriho ikirangantego cy'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyandikishijeho amabara y'umukara umweru ndetse n'ubururu.

Aha ni ahabera inama zitandukanye hari abantu benshi harimo abagore n'abagabo, ndetse n'abateruye abana imbere yabo hari ameza ariho uducupa, tw'amazi ndetse n'igitabo cy'umutuku na telefoni.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa, rw'Inyange.

Aha ni mu cyumba kiri kuberamo inama zerekeranye n'ibya Leta, hari abantu bane bicaye ndetse n'undi umwe uhagaze uri kubabwira, aba bose imbere yabo hari amacupa meza cyane akorwa n'uruganda rukora ibyo kunywa rw'Inyange.

Iri shusho riratwereka umuntu ufite indangururamajwi uhagaze imbere y'abaturage bensh,i ari kubabwira ibintu bitandukanye ameze nk'aho bari mu nama, hari n'abandi bicaye muri shitingi yagenewe kwicarwamo n'abantu ifite amabara y'indarapo ry'igihugu cyacu; icyatsi, umuhondo, ndetse n'ubururu.

Iyi shusho iratwereka abagore batatu bicaye ku ntebe zikunze kwicarwaho n'abantu bari mu nama bicaye ku meza afite amakaye, ndetse n'amakaramu bari kwandika ibiri kuvugirwa mu nama barimo imbere yaho kandi hari uducupa twiza cyane tw'amazi dukorwa no mu ruganda rutunganya ibyo kunywa ruzwi cyane mu Rwanda rw'Inyange.

Aha hari abantu batandatu, abagabo batatu ndetse n'ababyeyi batatu, basa nkaho bari mu nama, yiga ku bintu bigiye bitandukanye kandi igira umumaro, bicaye ku ntebe zitondekanyije neza, umugore umwe afite indangururamajwi kugira ngo ibyo uvuga bagenzi be babashe kumwumva.

Aha hari abantu benshi bafite za mudasobwa imbere yabo, ndetse bafite n'indangururamajwi imbere yabo, bigaragara ko bari mu nama yiga ku bintu bitandukanye. Si ibyo gusa, hari n'itangazamakuru riri gufata amashusho ndetse n'amajwi mu biri kuvugirwa muri iyi nama.

Ahangaha ni abantu batandukanye bari mu nama bicaye ku murongo, ameza bicaye imbere yayo hariho ibitambaro by'umweru ndetse n'icyatsi hakaba, hariho n'uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse n'indabo z'amabara atandukanye harimo ay'umweru, icyatsi ndetse n'umutuku.

Iyi shusho iragaragaza abantu benshi bicaye ku murongo kandi bicaye neza bameze nk'abari mu nama, bateze amatwi umuntu ugiye kubabwira imbere yaho hari ameza ariho umuti wo gukaraba intoki kugira ngo hirindwe gukwirakwizwa indwara ndetse n'indangururamajwi kugira ngo abantu bari hano bose babashe kumva ibyo bababwira.

Ahangaha hari abantu bicaye bari munama bateze amatwi harimo ushinzwe umutekano wambaye imyenda iriho ibendera ryurwanda hari Kandi nabambaye impuzankano zubururu ndetse nabandi bagiye batandukanye, imbere yabo hari ameza ateguye neza ariho ururabo.

Iyi shusho iragaragaza umugore n'umugabo bari mu nama umugabo ni umuntu ushinzwe umutekano wambaye imyenda iriho ikirangantego cy'u rwanda ndetse n'umugore wambaye amataratara wambaye, witeye ndetse n'igitambaro cy'ubururu, wambaye n'isengeri y'ubururu, ndetse wambaye n'umukenyero cyangwa se umushanana w'umweru imbere y'aho hari uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange.

Aba ni abantu batatu bari kuganira umwe yambaye ikote ry'umukara ndetse n'umupira w'umweru, undi yambaye amataratara kandi yambaye ikote ry'ikijuju, hanyuma undi yambaye ishati y'umuhondo. Imbere yabo hari uducupa tw'amazi dukorwa n'uruganda rutunganya ibyo kunywa rw'Inyange.

Aha hari abasore bane ndetse n'umukobwa umwe, hari bose bambaye udupfukamunwa, ndetse bose bafite za mudasobwa bari gukoresha ibintu bigiye bitandukanye, muri aba basore harimo umwe wambaye umupira w'ibara ry'umweru ndetse n'ingofero y'umukara, abandi bambaye amashati y'ubururu, uyu mukobwa akaba yambaye imyenda y'imikara.

Iyi ni ishusho igaragaza uburyo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gikoresha kimenyesha abantu uko bamenyekanisha umusoro, ku mitungo itimukanwa cyane cyane nk'amazu, ndetse n'ubutaka. Hari kandi inzu nziza cyane isize amarange y'umweru ndetse n'amarangi y'ikijuju, amadirishya afite ubusitani bwiza cyane.

Iyi shusho iratwereka igipapuro cyasohotseho itangazo ritangariza abaturarwanda, abakozi ba leta, ko hari hari ibiruhuko bikurikira: iminsi mikuru izwi cyane mu Rwanda ndetse no ku isi, kugirango abakozi babashe kuyizihiza neza.

Icyapa gitoya kiri ku nyubako ndende ya etage cyandikishijeho amagambo y'umutuku n'umukara ni ahakorerwa ivunjisha ry'amafaranga abagabo bari gutambuka imbere y'inyubako hirya gato umutaka w'umuhondo w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni igiti kirekire kiri imbere y'izo nyubako.

Iri ni itangazo rimenyesha abantu bishyura imisoro, ryasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, kibamenyesha ko habura iminsi itanu kugira ngo abantu batishyuye batangire gucibwa amande. Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umubare gatanu wandikishijwe ibara ry'umuhondo, ndetse n'andi yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Aha hari iminara itanu miremire ishyirwa ahantu ha hari ubutumburuke burebure kugira ngo itumanaho ryorohe mu gihugu, kandi rigere ahantu hose kugira ngo umuntu abashe guhamagara undi bumvikane ni ukubera ino minara.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hariho n'icyapa kiriho nomero yiyi nyubako nimero ya makumyabiri n'icyenda cyandikishijwemo ibara ry'umukara gifite urugi rusize irange ry'icyatsi, sibyo gasa ni inubako nziza cyane yubatse neza kandi yubatse ahantu heza.

Iyi shusho iragaragaza ikigo k'igihugu kimenyerewe mugusha kubona ubufasha kubyerekeranye na Leta cyangwa ibyo basaba bigiye bitandukanye harimo amarangamuntu agaragaza ubwenegihugu bw'abantu, ibijyanye n'ubutaka cyangwa se ibijyanye n'ubuzima cyangwa ibindi bintu bitandukanye bifasha abaturage kugira ngo babone ibyo bakeneye kuri Leta.

Uru ni urubuga rw'irembo ruzwi cyane mu gufasha abaturarwanda kubona ubufasha bakeneye mu bintu bigiye bitandukanye muri gahunda z'igihugu. Harimo kubafasha mu byerekeranye n'ubutaka ubafasha mu byerekeranye no kubona serivisi zitandukanye harimo ushaka kwifashisha urubuga waka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa kwaka ibigufasha kujya hanze y'igihugu.

Ahangaha ni icyumba kiri mu bitaro, ni icyumba kirimo imashini yifashishwa mu guha umwuka igihe umuntu yakoze impanuka cyangwa yagize ibindi byago mu bijyanye n'ubuhumekero, bakamushyiraho iyi mashini kugira ngo imufashe kubona umwuka, ahumeke.

Uru ni urubuga rw'ikigo k'igihugu k'imiyoborere mu Rwanda aho ushobora kujyaho ukabona ubufasha bwose batanga cyangwa ibyo bakora ukaba wabona aho uhera usaba ubufasha ku bibazo bitandukanye umunyarwanda ashobora kubaza.

Aha hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu bwijimye busa n'ishati irimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara wambaye amataratara afite ibara ry'umweru yicaye imbere ya mudasobwa ari ku kwandika ibintu bitandukanye ndetse iruhande rwe hari n'ibipapuro. Uyu ni umukozi w'ikigo cy'irembo gitanga ubufasha ku baturage b'u Rwanda

Uyunguyu ni umunara muremure ushyirwa ahantu hafite ubutumburuke bunini kugirango itumanaho ribashe kugenda neza, kuburyo abantu bose itumanaho ribageraho bakabasha guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri bagenzi babo cyangwa kumiryango yabo.

Aya ni amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru ni amagambo asobanura umuntu ufatwa nka nyir'umutungo utimukanwa. Ni amagambo yanditswe n'ikigo k'igihugu k'imisoro n'amahoro.

Aha ngaha hari umukobwa wambaye ikote ry'umukara ndetse ufite umusatsi w'umukara, yicaye mu biro imbere ye hari mudasobwa ari gukora ibintu bitandukanye, ari mu biro byiza cyane kandi biteguye neza hasizemo irangi ry'umweru.

Aha ngaha hari ibiti byiza cyane ndetse n'indabo nziza cyane zikikije umuhanda, hakaba hari n'igiti kirekire gishyirwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo amashanyarazi agere ahantu hatandukanye kandi hifashishijwe igiti kimwe. Ibi ngibi bifasha kugira ngo buri wese abone umuriro w'amashanyarazi bityo ubuzima bukomeze kugenda neza kandi n'ubucuruzi bwabo bugende neza.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane ifite uruzitiro rusize irangi ry'umweru ndetse n'urugi rurimo ibara ry'icyatsi umweru ikijuju. Si ibyo gusa kandi hari inzu ifite amabati atukura inyuma yayo hakaba hari inyubako ndende, hakaba hari kandi n'igiti gishyirwaho insinga zikwirakwiza amashanyarazi kikaba kiriho n'itara rimurikira abantu, ndetse n'ibinyabiziga mu gihe cya nijoro.

Aha hari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hejuru hari irange ry'umweru ndetse hari n'ibiti bishyirwaho insinga kugira ngo bikwirakwize amashanyarazi, amurikire abaturage mu gihe cy'umwijima.

Aha hari inyubako zifite amabati ashaje kandi ziri munsi y'umukingo uri munsi y'umuhanda. Hejuru yaho hari ibiti bishyirwaho insinga z'amashanyarazi kugirango bijyane, bikwirakwize amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye cyangwa se mu muhanda kugirango babashe kubona urumuri.

Ahangaha hari igiti gishyirwaho insinga kugira ngo kibashe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu byerekezo bitandukanye byabaturiye ahangaha cyangwa se mu nzu zitandukanye cyangwa se no mu mihanda. Hari kandi ibiti byiza cyane bikikije iki giti gikwirakwiza amashanyarazi.

Iyi ni inzu ndende y'ubucuruzi igeretse inshuro eshatu, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye imbere yayo hari igiti cyiza cyane gifite amashami meza cyane sibyo kandi hari n'igiti gishyirwaho insinga kugira ngo gikwirakwize amashanyarazi hirya no hino hagiye hatandukanye.

Uyu ni umunara muremure wifashishwa mu gushyiraho insinga kugira ngo zikwirakwize umuriro w'amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye mu ngo zitandukanye cyangwa se mu mazu y'ubucuruzi atandukanye cyane cyane ku mihanda, kugirango amatara yo ku mihanda amurikire abantu n'ibinyabiziga mu gihe cy'umwijima.

Aha hari uruzitiro rwiza cyane ruriho amatara y'umweru, ndetse hariho ibyuma bisize irangi ry'umukara, si ibyo gusa kandi harimo igiti gishyirwaho inshinga ndetse n'itara kugira gikwirakwize amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, ndetse hariho n'itara rimurika mu muhanda mu buryo bwo kurinda umutekano w'abanyura muri uwo muhanda.

Aha hari iminara ibiri ndetse hari ikirere cyiza cyane gisa ubururu ndetse n'umweru, iyi minara izwi cyane mu buryo bw'amashanyarazi igihe bashyiramo insinga nyinshi zitandukanye kugira ngo zikwirakwize amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

iyi shusho irimo inyubako eshatu z'ubucuruzi, ebyiri ndende ndetse n'indi imwe isanzwe, zikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Si ibyo gusa, hari ibiti bibiri biriho insinga zijyana umuriro ahantu hatandukanye, ziwukwirakwiza kugira ngo umuriro ugere ku bantu bose.

Uyunguyu n'umunara uba ugizwe n'ibiti bibiri wifashishwa mugukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu henshi hashoboka, kuko hashobora guha amashanyarazi abantu bangana nk'umudugudu wose cyangwa akagari kose bose bafatiye kuruyu munara.

Uyu ni umudugudu mwiza cyane, ufite inzitiro zisize amarangi y'amabara atandukanye, hari ndetse n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, zigenda zijyana amashanyarazi muri izi ngo cyangwa muri uyu mudugudu. Uyu mudugudu kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane bibereye amaso.

Aha hari inzu nziza cyane ifite ibara ry'umweru ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo imiryango icururizwamo ibintu bitandukanye, imbere yayo hari ibiti byiza cyane biri mu bibindi byagenewe gushyirwamo indabo. Hari kandi igiti gikwirakwiza amashanyarazi kiriho insinga zitandukanye zijyana amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'itara rimurika ninjoro.

Iki ni kinyabiziga kinini cyane cyagenewe gutwara abagenzi benshi kurusha ibindi binyabiziga, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru, iki kinyabiziga gitwara abantu kibakuye mu mujyi wa Kigali, kibajyana mu byerekezo bitandukanye hirya no hino mu gihugu no mu ntara zitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo abantu batandukanye bari kugenda n'abari kuza. Hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye. Bari imbere y'uruzitiro rukikije inyubako z'ubucuruzi zirimo imbere. Si ibyo gusa kandi hari n'ibiti bishyirwaho insinga z'amashanyarazi, kugira ngo zikwirakwize amashanyarazi hirya no hino mu muhanda, cyangwa se mu mazu y'ubucuruzi ari hano hantu.

Ahantu hatangirwa serivisi za eyateri zitandukanye, turabona ibyapa bya eyateri bitandukanye kandi bivuga ibintu bitandukanye. Eyateri rero itanga serivisi nyinshi zishobora gufasha mu bijyanye na telefone, interineti ndetse n'uburyo bwo kwishyurana. Dore muri bimwe mu buryo ushobora gukoreshamo ukoresheje eyateri, harimo kohereza no kwakira amafaranga, kwishyura ibicuruzwa na serivisi, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kumu ajenti wa eyateri kugura ama unite na interineti, serivisi z'amajwi, guhindura icyongereza cyangwa ikinyarwanda kuri simukadi yawe kandi hari'icyo wakora igihe ufite ikibazo aho ushobora guhamagara ijana, kugira ngo ugerageze kuvugana n'umukozi wa eyateri bagufashe. Ushobora kandi kugana eyateri ku ishami iryo ari ryose ribegereye, bakabagufasha mugihe ufite ikibazo kijyanye n'umurongo w'itumanaho bakoresha.

Aha hari umudugudu urimo inzu zitandukanye zifite amabati atandukanye harimo n'ifite amabati atukura, izi nzu zifite uruzitiro rwiza cyane hamwe hari uruzitiro rw'ibyatsi urundi rwubakishije amatafari ahiye kandi rufite ibyuma bisize irangi ry'umutuku hari kandi n'igiti gishyirwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zigeze umuriro muri izi ngo zigiye zitandukanye.

Uyu ni umudugudu utuyemo abantu batandukanye, bubatsemo amazu atandukanye, hari igiti gishyirwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zigeze muri buri rugo amashanyarazi bifashisha babona umuriro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bisaba umuriro w'amashanyarazi, si ibyo kandi hari igiti cyiza cyane hari ndetse n'ikinyabiziga giparitse gifunguye imiryango.

Aha hari inyubako ndende, ikorerwamo ubucuruzi ikoreramo n'ibindi bigo bitandukanye by'ubwishingizi, ndets iriho n'amaduka acuruza imiti ndetse n'andi atandukanye imbere y'iyi nyubako hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, hari kandi igiti gishyirwaho insinga z'amashanyarazi zikajyana amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye.

Iyi shusho iratwereka igiti bashyiraho insinga zikwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu ngo ndetse no ku mihanda, hari umubusitani buri buteyemo ibyatsi byiza cyane, hari n'indabo ziri kuruhande, hari ndetse n'uruzitiro rwubakishije amabuye rufite urugi rw'ubururu. mimbere muri uru ruzitiro harimo ibiti byiza cyane, hari kandi n'umuhanda mwiza cyane ugendamo abantu n'ibinyabiziga kandi ufite amatara amarikira ibinyabiziga n'abantu ninjoro.

Uyu ni umunara muremure bifashishwa aho bashyiraho insinga z'amashanyarazi kugira ngo zikwirakwize amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye, babone urumuri cyane cyane rubafashe ninjoro kugira ngo bakomeze no kurindwa umutekano.

Uyu ni umunara ukoreshwa cyane mu bintu byamashanyarazi mugihe uba ufatanye nibiti bishyirwaho insinga zikwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu gihugu cyangwa se kugirango umuriro ugera ahantu hose hifashishijwe ino minara miremire.

Aha hari umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, hari amagare ndetse hari n'amapikipiki ari hirya ariho abagenzi, n'ibindi binyabiziga bitwara abantu biri inyuma. Uyu muhanda kandi urimo umugenzi uri kugenda n'amaguru, sibyo kandi ni umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'ibiti byiza cyane, kandi hariho n'igiti kiriho itara rimurikira abagenzi n'ibinyabiziga mu gihe cy'ijoro.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane, isize amarange y'ubururu ndetse n'irange ry'umweru, ifite uruzitiro rwiza cyane rwubatse mu byuma bisize irange ry'ubururu, hari abantu bahagaze imbere yayo, hari ndetse n'ibinyabiziga biparitsemo imbere, hari icyapa kiranga ko hano hari komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, hari kandi n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, utanga ubufasha ku bintu bitandukanye bijyanye n'itumanaho.

Iyi ni inyubako ifite inkingi nyinshi, ifite umuryango umwe n'amadirishya ane ku ruhande rwo hirya rw'iburyo, ndetse ifite n'idirishya rimwe ku rundi ruhande, ndetse n'undi muryango inyuma, iyi nyubako isize amarangi y'umuhondo, ndetse ikaba ifite n'amakaro y'umweru.

Aha ni mu nzu irimo amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, hari intebe zisanzwe zimenyerewe ahantu abantu bicara bategereje ubufasha, hari umubyeyi uhetse umwana, ukeneye ibitenge birimo amabara y'ubururu, imbere ye hari igikapu cy'umukara, hirya ye hari umugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo, ndetse hari n'abandi bantu babiri bategereje ubufasha.

Iyi ni inyubako nziza cyane, hari gusohokamo imodoka z'ibitaro zimenyerewe, mu gutwara abarwayi barembye cyane, zibakura ahabereye impanuka cyangwa zibakura ku bitaro bimwe zibajyana ku bindi bitaro bifite ubushobozi bwo kubavura, byisumbuyeho.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ibitaro biba mu mujyi wa Kigali, bizwi cyane mu buvuzi buhanitse kandi bufite ireme. Yubakishije amaba amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'ubururu, hari abantu bari kujya kwivuza ndetse n'abandi bambaye imyenda y'ubururu bari gukora amasuku.

Ahangaha hari inyubako nziza cyane, ifitemo ahantu abantu bagendera, ni inzu ifite irisize irangi ry'umuhondo ndetse ni rangi ry'umukara hasi kundarwaho inkingi irangiriye kandi ni inzu ifite ibati ritukura ikaba isize irangi ry'ikijuju ku madirishya, ikaba kandi ifite n'ubusitani bwiza cyane.

Aha hari ikirangahantu kigaragaza ko hano hari ibitaro by'ubuvuzi bya Kacyiru aho abantu bashobora kujya bakajya kwivuza mu gihe barwaye cyangwa bumva batameze neza bashobora kuza kino kirangahantu kikabayobora ko hano hari ibitaro bakinjiramo bakivuza.

Aha ni mucyuma cy'ibiranishwa, harimo abantu baje kumva urubanza, ndetse hakaba abacamanza bicaye imbere, umwavoka ndetse n'imfungwa irimo kuburana kugira ngo yisobanure cyangwa se ivuge uko itekereza ibintu, ndetse n'umwavoka ari kumufasha.

Aha hari abantu bambaye impuzankano, bicaye imbere, ndetse bambaye n'udupfukamunwa tw'ubururu, bambaye amakanzu y'umukara arimo ibara ry'umweru. Hari uri imbere, ufashe ku idarapo ry'u Rwanda n'akaboko k'ibumoso, ndetse amanitse n'akaboko k'iburyo, ari kurahira. Inyuma hari intebe ziticayemo abantu, zifite ibara ry'umutuku.

Aba ni abagabo babiri bose bambaye imyenda myiza cyane ibereye ijisho, inyuma yabo hari ibikoresho byifashishwa cyane mu muziki ahantu hagiye hatandukanye haba mu nsengero cyangwa ahandi hantu henshi habera ibikorwa by'imyidagaduro.

Ahangaha hari urukuta rurerure cyane rwubakishije amatafari ahiye, hakaba harimo n'irangi ry'umuhondo ni ahantu handitseho gereza ya Nyarugenge, ifite urugi rw'umukara ndetse rusize irangi hejuru ry'umuhondo. Hari umucungagereza uri hanze ndetse n'imfungwa ebyiri ziri kwinjiramo zambaye imyenda y'umuhondo.

Iyi ngiyi ni inzu irimo icyumba cy'urukiko, irimo imfungwa zambaye impuzankano zisa ndetse n'abacamanza bari imbere yabo bambaye imyenda y'imikara ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, ni inzu irimo abantu benshi batandukanye, harimo n'abari gufata amajwi n'amashusho y'ibiri kuvugirwa n'ibibera aha ngaha.

Iyi ni ifoto irimo abantu batanu hari abagore babiri bicaye b'abacamanza ndetse hari n'imfungwa ebyiri zihagaze imbere yabo, hirya yaho hari undi nawe wambaye imyenda y'umukara. Abacamanza imbere yaho hari mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi y'inyange.

Ahangaha hari abacungagereza babiri bahagaze ku muryango usize irangi ry'umukara ndetse uriho ingufunguri ebyiri nini cyane hakaba hari abantu barimo imbere hakaba harigusohokamo umugabo wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo ndetse n'ingofero y'umuhondo.

Aha hari umubyeyi umeza nkaho yicaye mu biro, imbere ye hari uducupa tubiri kamwe karimo amazi ndetse akandi karimo umutobe w'imyembe, ahandi iruhande rwe hari ikirahure ashobora kwifashisha anywa giteretse ku rupapuro rw'isuku. Afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi imbere ye.

Uruganda rw'amata, utubuni turi mu gatajeri rw'ibara ry'umweru turimo amata, igikoresho babikamo amata kiri iruhande rwabyo.

Uru ni urukuta rurerure cyane ndetse rufite n'umunara muremure cyane ugaragaza gereza ya Nyarugenge ifite umuryango w'umukara hari gusohokamo imfungwa z'abagore bambaye imyenda itandukanye.

Aha ni mumuhanda hari abantu bari kumurongo mwiza cyane, bambaye amakanzu y'umukara ndetse harimo abambaye amakanzu y'umutuku afitemo ibara ry'umweru, bambaye ndetse n'ingofero nziza cyane zifite ibara ry'umukara , ndetse n'ibara ry'umuhondo, umuhanda bari kugendamo ukikijwe n'amatara y'umweru, yaka nijoro ndetse n'ibiti byiza cyane.

Iki ngiki ni icyumba k' inama kirimo abantu benshi bingeri zitandukanye, abagore ndetse n' abagabo bambaye imyambaro cyane cyane y'mukara, hari abicaye kuntebe zifite ibara ry' umutuku ,bazengurutse ameza ushasheho igitambaro gufite ibara ry' umukara. Ni icyumba kirimo amatara menshi cyane arimo araka ,hakaba hari umuntu imbere uhagaze kugatuti kumweru uri kubafasha kumva. .

Iyi ni ishusho y'umugabo wumusaza umugabo ukuze cyane, wambaye ikanzu y'umutuku ndetse irimo n'ibara ry'umukara. Si ibyo gusa kandi mo imbere yambariyemo ishati y'ubururu na karuvati y'umukara.

Aha hari urujya n'uruza rw'abantu, hari imodoka z'abashinzwe umutekano ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, hari abashinzwe umutekano ndetse hari n'imfungwa ziri kugenda inyuma y'umugabo wambaye amataratara ndetse n'imyenda myiza cyane ibereye ijisho.

Iyi ni ishusho y'umugabo ukuzemo wambaye ikote rijya gusa n'ubururu ndetse na karuvati irimo utudomo twumweru akaba yambaye n'ishati nziza cyane y'umweru ni umugabo wishimye uri gusuka ufite umusatsi w'umukara.

Aha hari abagabo babiri, hari umwe ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'imikara ndetse ufite n'imbunda mu ntoki, hakaba hari n'umugabo umenyerewe cyane mu myidagaduro y'u Rwanda witwa fata ku mavuta, wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikijuju, akaba afite agacupa batwaramo amazi mu ntoki, akaba ndetse yambaye n'amapingu ndetse n'amataratara.

Aha ni abantu bicaye munsi ya shitingi kandi bicayemo imbere m'uruzitiro rw'imiyenzi, ni abantu benshi batandukanye, abagabo ndetse n'abagore, hari intebe iticayeho umuntu ndetse hari n'intebe imbere yaho yicayeho imfungwa ebyiri, zambaye imyenda yambikwa cyane abantu bafunzwe, bameze nk'abari kuburanishwa cyangwa kuburana kugira ngo basobanure ibyo bakoze.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara amazina n'imibare yanditseho mu rurimi rw'icyongereza n'ifite amabara y'imituku.

Aha ngaha hari inyubako ndende ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ariko hari ahanditse zigama, hari imodoka y'abashinzwe umutekano ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, zigama iherereye ino zigama iherereye ku Muhima.

Aha ngaha hari abagabo batatu bafatanyije, bambaye imyenda irinda cyane cyane mu gihe cyo kuzimya inkongi z'umuriro cyangwa ibindi bikorwa biteje inkeke. Bambaye ibibsarubeti by'umukara bifitiemo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru, bafite ikintu bari gukoresha bazimya inkongi y'umuriro yateye ahantu.

Abagore, abagabo ,abakobwa n'abahungu bicaye muri sale nziza, inyuma harimo nabandi bantu bahagaze bicaye ku ntebe zitukura ndetse ibirenge byabo bikandagiye ku itapi nziza y'ubururu. Impande yabo hari igikuta ubona gifite amabara meza ubururu, umweru harasa neza rwose.

Aha hari ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano b'u Rwanda cyane cyane bakorera mu muhanda, yambaye imyenda y'imikara n'inkweto z'imikara ndetse irimo amabara y'icyatsi cyaka, hirya hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bigaragara ko ari imbere y'isoko.

Iki ni ikinyabiziga cyifashishwa cyane cyane n'abarinda umutekano w'u Rwanda, bifashisha mu kuzimya umuriro mu gihe hari ahantu hateye inkongi y'umuriro, iki cyifashishwa kugira ngo bazimye iyo nkongi mu buryo bugezweho, cyangwa se mu gutabara ubuzima bw'abantu bari muri iyo nkongi.

Iri ni icupa riba ririmo umuti wifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro n’ icupa ry'umutuku kandi rishyirwa ku nyubako zihuriramo abantu benshi cyane nk'amasoko, ibitaro cyangwa ama hoteli ahantu hose haba hari abantu benshi ziba zihari kugira ngo mu gihe habaye ibyago by'inkongi y'umuriro hifashishwe mu kuzimya.

Aha ni mu kigo cy'amashuri, hari abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, ahantu hari kwaka umuriro hari umunyeshuri wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'impuzankano zisa nk'iz'abandi, si ibyo gusa, hari n'umuntu ushinzwe kuzimya umuriro wambaye agapfukamunwa k'umweru, ari kumwigisha uko ashobora kuzimya umuriro igihe awisanzemo.

Aha hari inyubako y'ubucuruzi, ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye butandukanye , kandi imbere y'iyo nyubako hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu. sibyo gusa imbere yiyo nyubako hari imitaka ikoreramo abakazi b'ibigo bitandukanye by'itumanaho bikorera mu Rwanda.

Aha hari inyubako ndende y'ubucuruzi, iriho imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi, butandukanye, hari ikiranga ahantu kigenda kiyobora ahantu hagiye hatandukanye, musanze, muhanga, gatuna ndetse n'ahandi hatandukanye, s'ibyo gusa hari imodoka y'abashinzwe umutekano, iri mu muhanda hari n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga birimo amapikipiki.

Aha hari ibicupa bibiri byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, igihe hari ahantu hateye inkongi y'umuriro cyane cyane byifashishwa mu nyubako ndende cyangwa se inyubako iyo ari yo yose ishobora kugaragaramo ibyago by'inkongi y'umuriro.

Uyu ni umukecuru uzwi cyane muri poritiki y'u Rwanda Louise Mushikiwabo, imbere ye hari indangururamajwi zigiye zitandukanye, ndetse hari n'igitambaro kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, yicaye ku ntebe nziza y'umukara, intebe zimenyerewe cyane kwicarwaho mu biro.

Uyu n'umubyeyi wambaye igitenge kirimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'ishati y'umweru. Arishimye kandi ahagaze munsi y'igiti kirekire. Yambaye akantu ku kaboko k'umukara, gafite ibara ry'umweru, ndetse n'impeta ku rutoki.

Aha hari igipapuro kimanitse hejuru kiranga ko ahangaha hari kubera amatora harimo abari kujya gutora ndetse n'abari kuva gutora ishusho y'abantu bari kuvayo ndetse n'abandi bari kujyayo iki kiranga hantu cyanditseho ngo twitabire amatora duhitemo neza hariho ndetse n'ikirangantego cya repubulika y'u rwanda.

Iri ni ishusho ryiza cyane ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida Polo Kagame, uri gutambuka inyuma ye hari ibara ry'ubururu, yambaye ipantaro nziza cyane y'umukara ndetse n'ihkweto nziza cyane y'umukara, ndetse n'ishati nziza irimo amabara meza ndetse n'amataratara y'umukara.

Iyi shusho irerekana umukuru w'Igihugu cyacu nyakubahwa Polo Kagame igihe yari arimo aratora mu gihe cy'amatora yabaye mu minsi ishize mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na gatatu, yari arimo ashyira amatora ye mu habugenewe yari yamabaye amataratara y'umukara.

Aha hari umugabo wambaye ikote ry' umukara ndetse n' ishati y' ubururu nakaruvate ya kaki, yicaye ku ntebe y'umukara imbere ye hari indangururamajwi hari ndetse n' agacupa keza k' amazi gakorwa n' uruganda rutunganya ibyo kunywa rw' Inyange.

Uyu ni umugabo ukiri muto ufashe ku udarapo ry'igihugu n'abakoko k'ibumoso, akaba amanitse akaboko k'iburyo ari kurahira, imbere ye hari indangururamajwi kugira ngo abo ari kubwira bamwumve, yambaye ikote ry'umukara na karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, akaba afite umusatsi mwinshi w'umukara.

Iki ni cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, inyuma hari ibara ry'ubururu bicaye bose ku ntebe nziza cyane, kandi imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugirango baze kumvikana, imbere yabo hari uyoboye iyi nama wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari kuvugira mu ndangururamajwi kugira ngo abakurikiye inama bose babashe kumwumva.

Ahangaha hari abaturage bane umugore umwe uri imbere ndetse n'abagabo batatu bamuri inyuma, umugore yambaye amataratara y'umukara abandi bamuri inyuma basa nk'aho batonze umurongo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho repubulika y' u Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora referendumu bibiri na cumi na gatanu ndetse inyuma yabo hari shitingi y'umweru.

Ahangaha hari umugore wambaye ikote ry'icyatsi ndetse n'ijipo y'umutuku, akaba yambaye n'agatambaro k'icyatsi m'ijosi karimo ibara ry'umweru, hirya ye hari abacungagereza hari ndetse n'abari gufata amashusho kuko imbere ye afite impapuro n'ikaramu arimo arandika.

Iyi shusho iratwereka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'umubyeyi ukuriye ibihugu biri mu muryango uvuga ururimi rw'igifaransa, Louise Mushikiwabo. Bahagaze imbere y'ikirangantego cy'u Rwanda ndetse bahagaze hagati y'ibendera ry'u Rwanda, ku ruhande rumwe rw'iburyo ndetse n'uruhande rw'ibumoso.

Iyi shusho iratwereka abantu benshi cyane bafite ibipapuro biriho ifoto y'umugabo wiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mumatora y'ahashize, umugabo witwa Furanke Habineza ni abaturage benshi ndetse harimo n'abana.

Aha ngaha hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara ndetse na karuvati y'umutuku wijimye, afite indangururamajwi, ni umugabo wamenyekanye mu gihe cy'amatora ubwo yiyamamarizaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, hirya ye hari ikinyabiziga bibiri, hari kimwe cy'umukara n'ikindi cyumweru, inyuma ye kandi hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'isengeri y'umukara.

Iki ni ikirangantego cy'umuryango wa FPR inkotanyi uyoboye igihugu cyacu kandi wagize uruhare runini mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, muri iki kirangantego harimo ibintu bitandukanye harimo intare ndetse handitsemo demokarasi, ubumwe ndetse n'amajyambere.

Iki ni icyumba kiberamo inama kirimo abayobozi batandukanye, by'umwihariko nyakubahwa Polo Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, na madamu we, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bayoboye igihugu cyacu. Bari mu cyumba cy'inama kwiga ku bintu bigiye bitandukanye.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Aha ngaha hari abagabo bane bambaye neza cyane, bose bafashe ku ibendera ry'u Rwanda n'akaboko k'ibumoso ndetse bamanitse akaboko k'iburyo barimo bararahira, hirya yaho hari umuntu wicaye wambaye ikote ry'umukara ndetse na karuvati n'ishati y'umweru wicaye ku ntebe nziza cyane y'umukara hari kandi n'insakazamashusho iri kugaragaza ibyo bano bantu barigukora.

Aha ngaha hari abantu bane bambaye imyenda myiza cyane harimo abagabo babiri bari hagati, ndetse n'abagore babiri bari ku ruhande, bose bafashe ku ibendera ry'u Rwanda bafatishije akaboko k'ibumoso, ndetse bamanitse akaboko k'iburyo bari kurahira imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugira ngo ababakurikiye babumve hari kandi n'insakazamashusho iri kugerageza kwereka abatabasha kwegera bano bantu.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Uyu ni umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga kinini kimenyerewe mu gutwara abantu cyane cyane mu mujyi wa kigali cyangwa mu bindi bice bitandukanye by'umujyi wa kigali, ni ikinyabiziga kijyamo abantu benshi cyane ugereranyije n'ibindi binyabiziga bitwara abantu kandi ni ikiyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi iki kinyabiziga kirafasha kuko kigereza abantu aho bagiye ku gihe kandi byihuse.

Aha ni mu muhanda urimo ibinyabiziga bibiri; hari igitwarwa n'umuntu kizwi nk'igare, ndetse hari n'ikinyabiziga kimenyerewe mu gutwara imizigo iremereye cyane, gisa umukara inyuma, ndetse gisa umweru imbere.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Aha ngaha ni umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga, hakaba hari n'umugore uri kugenda wambaye ishati y'icyatsi, ibinyabiziga, kimwe ni igitwara ibindi binyabiziga byananiwe kugenda cyangwa se byakoze impanuka, kikabikura aho byananiriwe kugenda kibigeza aho bigomba gukorerwa, bikongera bikabasha gukora neza.

Aha hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu benshi, mu ngendo zitandukanye hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Hari abantu bari kugenda kugira ngo na bo babashe kugera aho bashaka kujya. Hirya kandi hari ahagenewe guparikwa imodoka kugira ngo abagenzi bazisangeyo, zibageze aho bagomba kujya.

Uyu ni umuhanda munini cyane, urimo ikinyabiziga kinini kimenyerewe mu gutwara imizigo iremereye. Gifite ibara ry'icyatsi inyuma, ndetse n'ibara ry'umutuku imbere, ryandikishije amabara amagambo yandikishije ibara ry'umweru. Ni ikinyabiziga kimenyerewe cyane mu gutwara ibicuruzwa cyane cyane byambukiranya imipaka.

Iyi shusho iratwereka mu muhanda harimo ikinyabiziga gitwara abantu, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hari ndetse n'ipikipiki itwaye umugenzi, ndetse hari n'igare ritwaye umugenzi, hirya hari uruzitiro rukikijwe na supanete y'icyatsi, hari kandi n'ibiti byiza cyane bikikije uyu muhanda.

Iyi shusho iratwereka umuhanda mwiza cyane irimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, hari abari kugenda n'amaguru, hari ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo itandukanye, hari n'amapikipiki atwara abagenzi abageza aho bashaka kujya.

Uyu ni umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, hari ibinyabiziga bitwara imizigo iremereye, hari ikiri imbere gitwara amabuye n'imicanga gisa umutuku, ndetse inyuma yacyo, hari ikindi gifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Si ibyo gusa hari n'amapikipiki menshi ari kujya mu cyerekezo gitandukanye n'ik'ibi binyabiziga.

Ahangaha hari amapikipiki aparitse ku murongo, atondekanyije ku murongo neza kandi bibereye ijisho kubireba ndetse harimo n'abatwazi bayo. Amapikipiki menshi afite ibara ry'ubururu ndetse ipikipiki ibanza ifite ibara ry'ikijuju, ayangaya yifashishwa mu gutwara imizigo iremereye cyane cyane gukura ibicuruzwa ku masoko ibijyana ku yandi kuko yifashishwa mu guterura ibiremereye, gutwara ibiremereye.

Aha ni mu muhanda, harimo ikinyabiziga kinini cyifashishwa mu gutwara imizigo iremereye, iyikura ahantu hamwe iyijyana ahandi. Cyane cyane nk'abacuruzi bakunda kuyifashisha barangura ibicuruzwa, babijyana ku maduka cyangwa ku masoko bacururizamo.

Aha ni mu muhanda harimo ikinyabiziga kinini cyane kimenyerewe cyane mu kwikorera imicanga, ndetse n'amabuye, ndetse n'indi mizigo itandukanye ikoreshwa cyane mu bwubatsi. Ni ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku, ndetse n'amapine y'umukara.

Iyi shusho ni ishusho icuritse igaragaza inzu ndende y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere y'iyo nzu hari urujya n'uruza rw abantu bari abaguzi ndetse n'abagurisha, si ibyo gusa kandi hari n'ibinyabiziga bitandukanye, ibitwara imizigo, ndetse n'ibindi bitwara abantu byigenga.

Aha ni ahamenyerewe guhaparikwa ibinyabiziga bitwara abantu, aho abantu baza bakabisangamo bikabageza aho bagiye hirya no hino mu gihugu. Ibi biroroha kuko byorohereza abagenzi cyangwa abagenda kumenya ahantu ibinyabiziga by'aho bajya biri kugira ngo batayoba.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane, kandi munini kuburyo ushobora kujyamo ibinyabiziga birenze kimwe, harimo umugabo utwaye umuzigo urimo umufuka munini cyane, awutwaye ku igare ari kugenda n'amaguru uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane, hakaba hari n'uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi bigaragara ko hirya hari kubera ubwubatsi butandukanye, kandi harimo n'itara rimurikira ibinyabiziga nijoro.

Aha ni mumuhanda hari ikinyabiziga cy'umweru kiriho umuntu wicara hejuru gitwara imizigo iremereye hari ndetse n'ibyuma byifashishwa cyane mu bw'ubatsi. Hirya hari umugabo uri kugenda n'amaguru mu nzira. Hanyuma hino hari ipikipiki itwaye umugenzi uhetse igikapu cy'umukara.

Iki ni ikinyabiziga kinini cyane, cyifashishwa cyane mu ngendo zitandukanye hirya no hino mu gihugu, ndetse cyane cyane mu mujyi wa kigali. Iki kinyabiziga gitwara abantu benshi kurusha ibindi binyabiziga byose kandi kihutisha ingendo, kandi ibiciro ni bikeya kugira umuntu wese yabyishyura akabasha kujya aho agiye.

Aha hari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, hari amapikipki ndetse n'ibinyabiziga byigenga, ndetse n'ibindi bitwara abantu batandukanye, hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umeru cyitwa yego aho umuntu ahamagara nimero ziiriho, hanyuma bakamusanga aho ari bakamutwara, hari kandi n'amapikipiki atwaye abagenzi, hari ikinyabiziga kigenga cy'ubururu ndetse n'ikindi kiri inyuma yacyo, gifite ibara ry'umutuku.

Iyi shusho iratwereka ibinyabiziga bitwara abantu bitandukanye biparitse ku murongo, biparitse mu buryo bwiza ku buryo bitabangamirana cyangwa ngo bibangamire inzira abantu banyuramo. Hari urujya n'uruza rw'abantu bari kujya ahantu hagiye hatandukanye.

Aha ngaha hari umuhanda mwiza cyane uri kugendamo iki nyabiziga, pikipiki imenyerewe cyane mu gutwara imizigo cyane cyane ibicuruzwa bikura ku masoko ibijyana ahandi ni ipikipiki ifite ibara ry'ubururu uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byiza cyane ndetse n'amatara amuririka ibinyabiziga kumuhanda mugihe cya n’ ijoro.

Ahangaha hari ikinyabiziga gitwara abantu benshi kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi mu ntara zitandukanye z' u Rwanda. Ikinyabiziga gifite ibara ry' umweru ndetse n' umukara harimo umuntu wambaye umupira w' umweru imbere hakaba handikishijweho ibara ry' umuhondo.

Aha ni mu muhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, ibitwara abantu, ibitwara imizigo, iby'abantu ku giti cyabo, ndetse n'amapikipiki atwara abantu abafasha kugera aho bagiye neza kandi mu mutekano.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo amapikipiki menshi atwaye abagenzi abajyana ahantu hagiye hatandukanye, hari ndetse n'ikinyabiziga cy'umutuku kiri inyuma y'amapikipiki abiri, si ibyo gusa kandi haba harimo n'abashinzwe umutekano bari gufasha abagenzi kugeraho bagiye neza. Si ibyo gusa kandi uyu muhanda utatswemo n'ibiti byiza cyane bisa icyatsi.

Ahari mu muhanda hari urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki atwaye abantu, ndetse n'amamodoka hari kandi inzu nini ifite amadirishya y'icyatsi irimo ubucuruzi butandukanye bw'ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'imiti, n'ubucuruzi bw'imiti.

Ahangaha hari abantu bicaye barigukora ibintu bitandukanye, hakaba hari n'abandi babiri barimo baragenda, bicaye ahantu heza cyane harimo ibyatsi ndetse n'inzira nziza cyane, si ibyo gusa harikwanga amatara meza hari n'ibiti bikikije aha hantu heza cyane.

Aha ngaha hari ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abakinnyi benshi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye hari abambaye umutuku hari n'abambaye umuhondo ndetse n'umukara, ni ikibuga cyiza cyane gikikijwe n'ibiti byiza cyane cyangwa se ishyamba ririmo ibiti, kugira ngo abari gukina umupira hano bagire bahumeke umwuka mwiza.

Iki ni ikibuga cy'imyidagaduro, gikinirwamo umukino ukunzwe n'abantu benshi cyane mu Rwanda, ndetse no hirya no hino ku isi, umukino uzwi ku izina rya basikete, aho bakoresha umupira bawunaga hariya hejuru muri kariya kantu gatobaguye, kameze nka supenete. Ikibuga kirimo amabara y'icyatsi ndetse n'atukura, gikikijwe n'ibiti byiza cyane.

Aha ngaha hari ibyapa biyobora ahantu biba byanditseho izina ry'ahantu umuntu ageze, ku buryo adashobora kuyoba ibyapa bishyirwa ku muhanda kugirango umuntu uri kugenda ku kinyabiziga amenye aho ageze byandikishijwe amabara y'umukara, ndetse n'ibyapa bifite ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga bityo hirindwe impanuka za hato na hato, ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu harimo ibara ry'umutuku umweru, ndetse n'umukara ni icyapa kigira akamaro cyane kubera ko impanuka ziririndwa cyane kugirango mu buryo ibinyabiziga biba biyobowe neza si ibyo kandi, uyu muhanda urimo ibiti byiza cyane bikikije uyu muhanda ndetse n'umuhanda mwiza cyane.

Iki ni icyapa kiba kiri mu muhanda kiranga ahantu kandi kiyobora abagenzi ndetse n'abatwara ibinyabiziga kugira ngo bamenye aho basiga abagenzi bityo batayoba. Ni icyaba kiri mu ishusho y'uruziga cyanditsemo umubare makumyabiri, wanditse mu magambo y'umukara. Ni icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite irange ry'icyatsi ndetse n'irangi ry'umuhondo irimo imiryango itandukanye, harimo aho bacuruza imiti, hari ikirango ahantu kigaragaza ahacururizwa amata, hari ndetse n'icyapa kiyobora ibinyabiziga bitandukanye kugira ngo wirindwe impanuka za hato na hato.

Aha hari icyapa cy'ubururu cyandikishijwemo amagambo y'umweru, kimwe kirimo inyuguti ya P ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu kirikugenda, iki ni icyapa gishyirwa mu muhanda kugira ngo kiyobore ikinyabiziga ndetse n'abagenzi kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Aha ngaha hari icyapa kiba kiri mu muhanda cyifashishwa mu kurinda cyangwa se kuyobora ibinyabiziga, kugirango hirindwe impanuka, impanuka za hato na hato ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu kirimo inyuguti ya ta icuramye yandikishije ibara ry'umukara n'icyapa gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akazengurutse k'umukara.

Iyi shusho yifashishwa mu muhanda iyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga harimo abantu babili, iyi ngiyi ikunda gushyirwa ahantu abantu bashobora kwambukira igihe ibinyabiziga bije abantu bari kwambuka bigahagarara bikabaha umwanya bakanza bakambuka bikabona gukomeza.

Aha hari ikiyobora abantu ndetse n'ibinyabiziga, cyifashishwa cyane mu mihanda kugira ngo kirinde imodoka, kiyobora abantu ndetse kinayobore ibinyabiziga kugira ngo hirindwe impanuka. Gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya yacyo hari inzu na yo isize irangi ry'umutuku, isa nk'inzu y'ubucuruzi butandukanye cyane cyane abakeneye ubufasha ku bijyanye n'irembo.

Iyi shusho iratwereka umuhanda urimo ikiyobora ibinyabiziga kugira ngo hirindwe impanuka za hato na hato kugira ngo kiyobore imodoka aho zijya cg se ibindi binyabiziga nk'amapikipiki kugira ngo hirindwe impanuka zitandukanye ziturutse ku kutayomenya neza aho bajya, si icyo gusa hari n'uruzitiro rwiza cyane rukikije inzu nziza cyane ifite irangi ry'umweru ifite n'amabati atukura.

Aha hari ibyapa bishyirwa mumuhanda kugira ngo biyobore ibinyabiziga birindwe impanuka zigiye zitandukanye zibera mumuhanda nibyapa bifite ibara ry'umuhondo ndetse nibara ry'umutuku ikiri hejuru Kandi harimo ibara ry'umukara.

Ahangaha hari icyapa gishyirwa mumuhanda kugira ngo kiyobore abantu ndetse nibinyabiziga bityo hirindwe impanuka za hato na hato, nicyapa kiri mwishusho yuruziga gifite cyandikishijemo ibara ry'umukara nicyapa gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Aha hari icyapa kiba kiri mu muhanda kugira ngo kiyobore ibinyabiziga bitandukanye,, mu byerekezo bitandukanye. Bityo hirindwe impanuka za hato na hato. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umweru. Hagati hakaba harimo inyuguti ya T, yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umutuku.

Aha hari inzu y'ubucuruzi ifite imiryango myinshi cyane ikoreramo ibintu bitandukanye, hari aho bacuruza imyambaro, hari aho bacuruza ibiryo bitandukanye, ndetse hari n'aho bacuruza hari n'ahari iduka ririmo ibintu bitandukanye. Iyi nzu ifite imiryango myiza cyane kandi ni inzu ibereye gukorerwamo ubucuruzi.

Aha hari inyubako zigiye zitandukanye, si ibyo gusa, hari ibiti byiza bimeze nk'ishyamba, byiza cyane, izi nyubako inyinshi zifite amabati atukura, ndetse hirya hari indi nyubako itaruzura ariko iri kubakwa mu buryo bugezweho.

Uyu n'umuhanda mwiza cyane ukikizwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi byiza cyane bibereye ijisho, sibyo kandi hari ikinyabiziga gitwara imizigo iremereye kiri kugendamo ndetse n'igare ripakiye imifuka y'umweru, kandi hari n'inyubako ndende nzicya cyane yifashishwa m'ubucuruzi.

Aha hari urujya n'iruza rw'abantu benshi, hari abambaye imyenda y'umutuku, hari abambaye imyenda y'imikara, hari n'uwambaye ingofero ndetse n'igisarubeti kizwi cyane cyane mu bwubasti cyangwa indi mirimo y'imbaraga. Si abantu gusa, hari urujya n'iruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye.

Iyi shusho iragaragaza inyubako z'ubucuruzi zitandukanye, ndetse n'ibiti byiza cyane bitatu bibereye amaso, kandi inyuma yaho hari naho inyubako ndende nazo z'ubucuruzi nziza cyane zisize amarangi y'umuhondo ndetse n'ay'umweru.

Aha hari inyubako ndende ebyiri nziza cyane zikoreramo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, bijyanye n'itumanaho, ibijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, imbere y'izi nyubako haparitse ibinyabiziga by'amabara atandukanye, hari afite ibara ry'ikjuju ndetse n'ifite ibara ry'umweru.

Aha ngaha hari umudugudu mwiza cyane urimo amazu menshi yubatswe m'uburyo butandukanye hari afite amabati y'umutuku, hari afite amabati y'umweru, hari n'afite amabati y'umuhondo. Ni amazu meza cyane kandi agiye akikijwe n'ibiti byiza cyane bifasha abatuye hano kubona umwuka mwiza.

Iyi shusho iratwereka inzu, inyubako nziza cyane irimo imiryango myinshi igiye itandukanye ndetse n'amadirishya, ikaba ari inzu ifite uruzitiro rwiza cyane, inyuma y'uruzitiro hateye ibiti, kandi hari n'ubusitani n'ibyatsi biteye hasi, si ibyo gusa no imbere harimo ibiti bigiye bitandukanye, kandi hakaba hari hejuru yaho hari insinga, zijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye.

Uyu n'umukuru w'igihugu cyu Rwanda, aho yari ari kwiyampamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamwereka ko bamushyigikiye.

Icyapa kiri mu amabara y'umweru handitseho amagambo atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi y'ama mabara y'umuhondo, n'andi arimo ibara ry'ubururu ndetse n'indi mibabara y'umutuku.

Aha ngaha hari inyubako ifite ibara ry'icyatsi ndetse hari indi kuruhande ifite irangi ry'umuhondo, ni inyubako ndende imbere y'izi nyubako hari ibinyabiziga biparitse, bitandukanye by'amabara atandukanye.

Ahangaha hari inyubako ndende nziza cyane ibereye ijisho yubatse mu buryo bugezweho, ni inyubako isizwe amarangi y'umuhondo ndetse n'amarangi yumukara, ifite amadirishya y'ibirahure by'umukara, kandi ikaba ifite uruzitiro rufite ibara ry'icyatsi, ndetse rwubakishijwe ibyuma hakaba ahandi hari n'ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru giparitsemo imbere.

Iyi ni inyubako nziza cyane ndende ifite uruzitiro rusize irangi ry'umweru ndetse rufite n'ibyuma, by'umukara cyangwag se amadirishya asize irangi ry'umukara ni inzu ifite ibiti biri imbere yayo byiza cyane bibereye amaso kandi ni inzu igiye ifite indabo hejuru. Ni inzu ifite irangi ry'umweru ndetse n'ibindi mitako igiye itandukanye imbere yayo hari ibinyabiziga bibiri kimwe, cy'umweru n'ikindi cy'umukara, icy'umweru gifunguye umuryango w'inyuma.

Aha ngaha hari inyubako ebyiri nziza cyane ndende ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ni inyubako ifite imiryango myinshi cyane ishobora gukorerwamo ibikenewe byinshi cyane, hakaba hari iby'ubwiza hakaba hari n'aho bacuruza imiti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha hari umuhanda uri hagati y'amazu atandukanye meza cyane, ari muhanda amazu afite inzitiro nziza cyane kandi nayo ari meza cyane, inzu imwe iri hepfo ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye ikaba ifite urugi rw'umukara ndetse inzu mo imbere ifite amabati y'umukara hakaba hari n'ibigega babikamo amazi. Ni inzu nziza cyane bisa nk'aho ari umudugudu mwiza cyane.

Ahangaha hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti by'icyatsi bisa neza bibereye ijisho kubireba, ni ibiti kandi bigira umumaro ku baturiye hafi aha kuko bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka. Ibi kandi bituma igihugu gisa neza kandi kigaragara nk'igifite isuku.

Iyi foto iratwereka urujya n'uruza rw'abantu benshi, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye harimo, amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu, biratwereka ko hano ari mu Giporoso, hari n'inzu z'ubucuruzi zitandukanye, hari n'ibiti bikwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu ngo ziri hano hantu.

Aha ni mu muhanda, hari umuntu uri kugenda ndetse n'umutwazi w'ipikipiki utwaye ibicanwa byifashishwa mu guteka, yambaye ikintu cy'umweru kimurinda kubabara igihe yaba akoze impanuka. Hari ndetse n'inyubako imeze nk'urusengero, aho hari isize ibara ritukura.

Aha ngaha hari amazu menshi cyane yubatse neza kandi mu buryo butandukanye amwe afite amabati afite ibara ry'umutuku andi afite ibara ry'umukara n'amazu yasizwe amarangi atandukanye kandi hari n'ibiti bikikije ayo mazu byiza cyane bituma abatuyemo babasha kubona umuyaga.

Ahangaha hari abantu batatu bari kugenda b'uruhu rwera hakaba hari kandi n'ibinyabiziga bitatu bipari ahangaha kimwe gifite ibara ry'ikijuju ndetse n'igiti kiri iruhande rwaho hakaba hari n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ibingibi biparitse mu muhanda w'amabuye hirya hari inzu ndetse n'ibiti byiza cyane.

Aha hari inzu nziza cyane, isize amarangi meza, afite amabara meza atandukanye, iyi nzu ifite inkingi zisize amarangi y'umweru ndetse ku nzugi n'amadirishya hasizeho irangi ry'umutuku ndetse n'uruzitiro rwayo ni rwiza cyane, imbere yayo hari umutwazi w'ipikipiki utegereje umugenzi kugira ngo amugeze aho agiye.

Iri shusho riratwereka amazu ari mu mudugudu agiye atandukanye, amenshi harimo inzu ifite umutuku werurutse, ndetse n'andi agiye afite amabati y'amabara atandukanye. Si ibyo kandi harimo igiti cy'umukara kiriho insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro muri izi ngo zose zigiye zitandukanye. Kandi uyu mudugudu urimo n'ibiti byiza cyane, ni umudugudu wa kanombe.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane urimo ipikipiki n'umutwazi wayo uri kugenda mu muhanda, hari kandi icyapa kiyobora ibinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'umukara, sibyo kandi hari n'itara rimuririka ibinyabiziga mu gihe cya nimugoroba uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane bitanga umwuka mwiza mu muhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibikorwa bitandukanye, hari ibinyabiziga by'amoko menshi ari kugenda amagare; amapikipiki ndetse n'amamodoka y'amoko atandukanye. Si ibyo gusa urabona ko hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, kandi hari n'inzu ndende igeretse gatatu y'ubucuruzi iberamo ubucuruzi bwinshi butandukanye.

Ahari mu muhanda ahazwi cyane nko mu masangano y'umuhanda aho imihanda ihurira ijyana ibyerekezo by'imihanda ahantu hagiye hatandukanye, hazamuka, hamanuka hatambika, ibi bifasha abagenzi cg se ibinyabiziga kutayoba cg se kutagongana kubera ko amasangano y'umuhanda abajya mu byerekezo bitandukanye.

Ahangaha hari umuhanda cyangwa se hari amahuriro y'umuhanda, umuhanda mwiza cyane urimo isuku ifite ubusitani bwiza cyane, hari ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda, harimo ibinyabiziga bibiri biri kugenda, ndetse n'icyapa cy'ubururu kirimo amabara y'umweru kigaragaza ko hano ari amahuriro y'umuhanda ajya mu byerekezo bitandukanye, ni umuhanda mwiza cyane kandi hari n'igiti kiriho itara ryo ku muhanda rimurika nijoro.

Aha ngaha hari umuhanda mwiza cyane urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu batandukanye harimo ikinyabiziga kinini cyane kimenyerewe mu gutwara abantu cyane cyane mu mujyi wa kigali kibajyana ahantu mu byerekezo bitandukanye mu mugi wa Kigali sibyo kandi harimo n'amapikipiki atwaye abantu ndetse n'ibinyabiziga byigenga.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane urimo ushinzwe umutekano uhagaze ahamenyereweko abagenzi aribo bahambukira harimo ibara ry'umweru n'umukara sibyo gusa hari amatara ari kwaka ibara ry'umuhondo hakaba kandi hari namapikipiki ari kugenda ndetse ibiti bikikije uyu muhanda ni ibiti byiza cyane bibereye ijisho.

Aha hari umuhanda mwiza cyane ubereye ijisho kuwureba ukikijwe n'ibiti byiza cyane, ndetse utatse indabo nyinshi cyane mu muhanda, hakaba harimo ibinyabiziga biri kugenda hari ikinyabiziga gitwara abana gitwara abana ku mashuri gifite ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'ikindi cy'umukara kiri kugenda. Ni umuhanda kandi urimo amatara meza cyane amurikira ibinyabiziga ndetse n'abagenzi mu gihe cya nimugoroba.

Iyi shusho ni itwereka umuhanda urikugendamo ibinyabiziga bitandukanye ibitwara abantu ibyigenga ndetse n'amapikipiki, si ibyo gusa harimo n'umuntu uhagaze arikureba inyuma, harimo amatara meza afasha kumurikira abantu nijoro ndetse n'ibinyabiziga ndetse ni umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza cyane bibereye ijisho.

Aha ni mu muhanda uri kugendamo ikinyabiziga kimenyerewe cyane mu kwikorera imitwaro iremereye cyane cyane yambukiranya imipaka, gikura mu gihugu kimwe ijyana ibicuruzwa mu kindi gihugu, kandi uyu muhanda ukikijwe n'ibyatsi byiza cyane ndetse n'ibiti biteye amabengeza ndetse n'amatara amurikira abantu ku muhanda nijoro.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga byigenga bibiri kimwe cy'ubururu ndetse n'ikindi cy'umukara kimwe kiragenda ikindi kiza hari kandi n'ipikipiki iri inyuma yabyo irimo itwaye umugenzi bambaye ibirinda umutwe by'umutuku hari ndetse n'ahantu n'akantu k'ubururu abagenzi bicayemo bategereje ko ibinyabiziga biza kubatwara.

Aha ni mu muhanda w'igitaka, ndetse ni mu mudugudu urimo amazu meza atandukanye, yubatse mu buryo butandukanye, hari igipangu gisize irangi ry'icyatsi, ndetse n'inzu isize ibara ry'ikijuju ndetse n'andi mabara y'umweru. Si ibyo gusa hari inzitiro zikikijwe n'ibiti byiza cyane kandi hari n'ibiti bishyirwaho insinga z'amashanyarazi.

Aha ni nijoro mu muhanda aho hari ipikipiki iri kugenda, ndetse n'abantu babiri barimo kugenda mu muhanda, si ibyo gusa hari n'igare, ni nijoro aho butangiye kwira, amatara yo mu muhanda yatangiye kwaka, kugira ngo umutekano w'abantu ndetse n'ibinyabiziga, ubungabungwe.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane urimo ibinyabiziga biri kugenda ndetse n'amapikipiki si ibyo gusa hari n'abagenzi barimo bagenda n'amaguru. Hari kandi amatara yagenewe kumurikira abagenzi ndetse n'ibinyabiziga mu gihe cy'umwijima, akaba hari umuhanda kandi ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane n'ibiti byiza cyane bibereye ijisho.

Ahangaha hari umuhanda mwiza cyane hari umuhanda urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru ahamenyerewe aho abagenzi bambukira igihe bahagarara ibinyabiziga iyo bihahaga bihagarara ugategereza ko abagenzi bambuka, hari kandi n'itara ryagenewe kuyobora ibinyabiziga n'abagenzi kugirango hirindwe impanuka za hato na hato harimo ibinyabiziga bitandukanye amapikipiki ndetse n'abagenzi bari kugenda n'amaguru.